Iyo umuhinzi ahinze imboga ntazivomere ziruma cyangwa zikarabya kubera izuba ryinshi, abahinzi rero basabwa kuzivomera ndetse no gutera imiti yabugenewe yica udukoko kugira ngo imbuto zabo zibashe kwera neza zitange umusaruro.

Abahinzi basabwa gukoresha imiti yabugenewe yica udukoko ku myaka yabo, cyane nk'abahinga ibihingwa by'ibigori, bakibuka gutera umuti, kugira ngo bitibasirwa na nkongwa, maze bakazahura n'igihombo, kirimo ku guteza umusaruro mwinshi.

Abahinzi bashishikarizwa gukoresha imiti igezweho yica udukoko nk'iyo batera mu bigori maze ikica udusimba twa nkongwa cyangwa se bakayitera mu muceri kugira ngo utu dusimba turimo na nkongwa tutawibasira ubundi tukarya ibigori, abahinzi bose rero bagomba gukoresha iyi miti kugira ngo bagire umusaruro uvuye mu myaka yabo.

Ubworozi bw'amafi nabwo butanga amafaranga atari makeya ku bantu babukora, kuko iyo bagemuye umusaruro wabo ku isoko usanga byibuze ifi imwe bayigurisha ibihumbi bitatu by'amaNyarwanda. Abaturage rero bashishikarizwa gukora ubu bworozi kuko bwabafasha mu kubakura mu bukene.

Ni ngombwa y'uko abahinzi bavomerera imyaka yabo kandi bakanayitera imiti yica udukoko turimo na nkongwa cyangwa se inzige ibisimba bikunda kona imyaka kugira ngo imyaka izere neza bityo ibahe umusaruro bifuza.

Abahinzi basabwa gutera umuti wica udukoko mu myaka yabo kugira ngo ibashe gukura neza kandi ntiyume bitewe n'udukoko tugenda tukayirya amababi ugasanga umuturage aguye mu gihombo ntabonye umusaruro yifuzaga.

Hari abaturage benshi bakora ubworozi bw'amafi bavuga yuko butanga amafaranga menshi, akenshi usanga bibumbiye mu mashyirahamwe barafatanyirije hamwe kugira ngo babashe kugira umusaruro ubundi biteza imbere, amafi rero yororoka vuba kandi atanga amafaranga menshi niko aba baturage batugira inama.

Dore abantu bakora ubworozi bw'amafi cyangwa bw'inzoka, aho bifashisha ibidendezi bakabigomera, ibindi bagafungamo amazi menshi, bagashyiramo umwayi w'amafi cyangwa umwayi w'inzoka, akazororoka hakavamo inzoka nini cyane bakajya bazigurisha ku isoko.

Hari bamwe mu baturage bakora ubworozi bw'amafi bavuga yuko aya mafi yororoka vuba kandi akabaha amafaranga bagashishikariza na bagenzi babo gukora uyu mwuga kuko utaruhije kandi ushobora kubakiza mu gihe gito.

Abakoresha ubwato mu biyaga bakora imirimo itandukanye irimo n'uburobyi bw'amafi, aho bifashisha ibikoresho birimo n'inshundura, bakazenguruka mu mazi bafata amafi manini, kugira ngo bajye kuyagurisha babashe kwinjiza amafaranga.

Abakora ubworozi bw'amafi yo mu mazi bavuga y'uko biteje imbere cyane babikesha uyu murimo bakora kandi amafi yororoka vuba niyo mpamvu bashishikariza bagenzi babo gukora ubu bworozi bukazabafasha kwiteza imbere.

Ubworozi bw'amafi buri mu ugira amafaranga kandi menshi, kuko korora amafi nta kintu gihambaye bisaba uretse kuba ufite ikidendezi cy'amazi, cyangwa se ukaba ufite umwayi w'amafi kugira ngo ubashe kuyashyiramo, ubundi nyuma y'igihe runaka ukajya ujya kuyaroba ukajyana umusaruro ku isoko.

Ubworozi bw'amafi bukorwa hifashishijwe gucukura ibidendezi byabugenewe, ubundi bagashyiramo amazi kandi usanga bakunze guteramo ibiti bagahita bubakiraho n'ikiraro cy'inkwavu kugira ngo inkwavu zigangemo kuko amaganga y'inkwavu n'amahurunguru, bigenda bikavamo iminyorogoto, ubundi amafi akayirya.

Abakora ubworozi bw'amafi bishimira yuko babasha kubona umusaruro mu gihe gitoya kandi bashishikariza bagenzi babo kwitabira uyu mwuga kugira ngo bagere ku iterambere mu gihe gito kuko amafi atanga umusaruro vuba.

Abaturage batandukanye mu karere ka Nyagatare bakoze ubworozi bw'amafi kuko bamaze kubona y'uko butanga amafaranga kandi atari make kandi nta kindi kintu gihambaye busaba uretse gukurikirana, ukanayagaburira gusa.

Abantu benshi ntibakunda gukora ubworozi bw'amafi, nyamara butanga umusaruro mwinshi cyane ushobora no guha umuntu amafaranga, akaba yakira kandi mu gihe gito. Amafi arororoka cyane kandi ntabwo asaba ibyokurya byinshi uretse kuyaha nk'amababi y'ibimera bimwe na bimwe harimo nk'amateke.

Korora amafi ntago bitanga umusaruro kuri nyiri gukora icyo gikorwa gusa ahubwo bitanga umusaruro no mu muryango mugari nyarwanda, amafi avamo ibyo kurya abantu barya kandi agira intungamubiri nyinshi, nyiri gukora igikorwa cyo kuyorora na we abasha kwinjiza amafaranga agatunga umuryango we binyuze mu kuyagurisha.

Hari abaturage batandukanye bitabira korora amafi yo mu mazi. Aho bifashisha n'ibiraro by'inkwavu bakabyubaka mu mazi kubera ko amaganga y'inkwavu, iyo agiye mu mazi arabora bityo hakavamo iminyorogoto. Amafi akajya abona ibyo arya akororoka. Uwo muturage ukora ubwo bworozi akagira amafaranga.

Abaturage bakora ubworozi bw'amafi n'injanga, bavuga yuko ubaha amafaranga kandi menshi, bakabasha kwiteza imbere, bahahira imiryango yabo bakarihirira n'amashuri abana babyaye kuko bibaha amafaranga atari makeya iyo bagemuye umusaruro wabo ku isoko.

Umusare iyo amaze kuroba amafi ahita ayashyira mu ibase, akayashyira ku nkombe z'amazi maze agakubitwa n'akazuba kugira ngo abone uko ayatwara ku isoko.

Abaturage bahinga icyayi bishimira yuko kibateza imbere binyuze mu bikorwa bitandukanye. Icyayi kiragurwa cyane n'inganda zigitunganya, zikakivanamo amajyani n'ibindi kandi kigemurwa no hanze y'Igihugu, aho abaturage bagihinga bahabwa amafaranga menshi kugira ngo bagikusanye bakigemure mu bihugu byo hanze.

Ubuhinzi bw'ikawa butanga amafaranga menshi cyane kuko usanga abaturage basigaye babwitabira kubera ko ikawa bazigemura mu mahanga kandi zigakorwamo ibintu bitandukanye, birimo n'amajyane cyangwa icyayi bifashisha mu kunywa mu binyobwa.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda kandi bushyirwamo imbaraga nyinshi, kubera ko kigemurwa mu bihugu by'amahanga bakabasha kuduha amafaranga ateza imbere igihugu cyacu ndetse agateza imbere n'abahinzi baba bagihinze.

Ubuhinzi bw'icyayi bwateye imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko twabonye isoko rikomeye ryo kugemura ibihugu by'amahanga, icyayi rero gifite akamaro kuko kinjiriza abanyarwanda amafaranga atari makeya, yaba abakozi bakora mu nganda z'icyayi, abahinga icyayi, abagisarura, ndetse n'abakigurisha.

Abahinzi benshi bari kwitabira guhinga ikawa kuko igira amafaranga menshi kandi ifite agaciro gakomeye kuko igemurwa no hanze y'Igihugu cy'u Rwanda, bityo abantu bose bagombaga guhinga ikawa kugira ngo tugemure umusaruro mwinshi.

Hari abaturage benshi bahinga ingano, igihingwa kigemurwa mu bihugu by'amahanga kandi kikifashishwa mu gukorwamo ibintu bitandukanye, birimo nk'ifarine yifashishwa mu gukora imigati n'amandazi.

Ikawa ni bimwe mu bihingwa bitanga amafaranga, abaturage bagenda bitabira ibikorwa birimo gutubura imbuto ya kawa, aho bayihombeka mu mashashi ubundi bakazajya kuyitera mu mirima itandukanye, ubundi bakabasha kubona amafaranga. Izi mbuto bahombeka zishobora kugurwa, cyangwa nabo bakazitera mu mirima yabo.

Mu kabande abaturage bakunda kuhatera imyaka itandukanye irimo n'umuceri, aho bagenda bawujomba mu butaka igihe kikagera ukazera, ubundi bakanawubagara ubundi bakazawusarura bakawugemura ku nganda ziwutunganya bityo bakabona amafaranga.

Ikawa ni kimwe mu gihingwa ngengabukungu kuko itaribwa ahubwo abantu bayihingira kuyisarura ubundi bakayigurisha n'ibigo by'inganda, aho biyitunganya bikayikoramo amajyani yifashishwa mu guteka icyayi.

Inkoko zikunze kwibasirwa n'indwara zitandukanye zirimo n'umusinzira, byaba igihombo gikomeye cyane rero, aborozi baramutse batagannye amazu acuruza imiti'yamaswa ngo babahe imiti yifashishwa mu kuvura izo ndwara, ubundi bongere bagire umusaruro ukomoka ku matungo borora.

Amatungo na yo akenera kuvurwa nk'abantu kuko hari imiti yagenwe yo kuvura amatungo yo mu rugo, harimo nk'inkoko zikunda kurwara indwara y'umusinziro bikaba ngombwa y'uko umworozi wazo ajya kuzigurira imiti ivura umusinziro kugira ngo zidapfa.

Amatungo yo mu rugo arimo n'inkoko agira imiti yazo, ku buryo iyo yarwaye indwara zitandukanye zirimo n'umusinziro, biba ngombwa yuko umworozi worora inkoko, ajya ku nzu zabugenewe zicuruza imiti y'amatungo, akagura iyo miti kugira ngo abashe kuzivura.

Hari imiti itandukanye ivura inyamaswa cyangwa amatungo yo mu rugo iboneka hirya no hino mu mazu acuruza imiti ijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, aya mazu kandi aba yarabiherewe uburenganzira n'ikigo cy'u Rwanda kita ku buzima bw'abantu n'ubw'amatungo.

Amatungo yo mu rugo na yo agomba kuvurwa kuko afite ubuzima nk'ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose, ni yo mpamvu hari abashakashatsi babyizeho bayakorera imiti iyavura indwara zitandukanye, aborozi rero basabwa kugana amazu acuruza imiti y'amatungo yo mu rugo ubundi bakajya kuvura amatungo yabo kugira ngo ataba yanapfa.

Kugira ngo ubworozi bw'amatungo batange umusaruro ni uko aborozi bagomba kuyitaho, harimo kuyagaburira ariko bakibuka no kuyagurira imiti kuko hari igihe inyamaswa nazo zirwara inzoka zitandukanye, bityo hari amazu yabugenewe acuruza imiti y'inyamaswa ndetse n'abantu bihariye babyigiye ushobora guhamagara bakaza bagafasha itungo ryawe akarivura rigakira.

Amatungo yo mu rugo na yo ararwara nk'uko abantu barwara kuko na yo afite ubuzima, ni yo mpamvu hari imiti yakozwe ishinzwe kuyavura indwara zitandukanye twavuga nk'inkoko, zishobora kurwara umusinziro bikaba ngombwa yuko umworozi wazo azigurira imiti kugira ngo zidapfa.

Hari amazu acuruza imiti y'amatungo yifashishwa mu kuvura amatungo yo mu rugo yahuye n'indwara zitandukanye, kandi iyo miti ikifashishwa no mu kongera intungamubiri, kugira ngo amatungo abashe gukura ku buryo bwihuse.

Abahinzi batandukanye bakunda gutera imbuto zirimo ibiti bya avoka, imyembe, amacunga, indimu kuko bamaze kumenya y'uko bifite agaciro gakomeye cyane kandi bikenewe ku isoko ry'umurimo, bityo ntibashidikanya y'uko mu gihe kizaza bazaba babona amafaranga menshi bakura kuri ibi bimera bateye.

Abatuye mu bice by'ibyaro batunzwe n'umurimo wo guhinga, ari na wo abenshi bakuramo amafunguro yo kurya mu rugo, bityo bagasagurira n'amasoko kugira ngo babashe kubona amafaranga yo kugura ibindi, birimo nk'amavuta n'ibikoresho by'isuku, bakoresha mu ngo zabo.

Hari aborozi b'inka, bishimira yuko zibaha umusaruro binyuze mu kuzikama, hanyuma amata bakayagurisha yaba ku makamiro cyangwa se no mu abaturage, aho bayagura kugira ngo bayahe abana babo, ikindi nabo bashobora kuyanywa batiriwe bajya kuyagurisha bityo bagashishikariza abantu bose korora inka.

Umurimo w'ubuhinzi mu Rwanda utunze abaturarwanda benshi kubera ko bahinga imyaka itandukanye, irimo: ibishyimbo, ibigori, imyumbati, umuceri ndetse n'amasaka, aho babihinga bakabirya mu miryango yabo kandi bagasagurira n'amasoko bakabona amafaranga.

Usanga mu gihe cy'itumba abaturage bitabira igikorwa cyo guhinga, aho baba bashaka kurima amasinde ubundi bagahita batabira kugira ngo batere imbuto kandi bazahite bashyiramo n'imyaka ubundi bazabashe gusarura. Babone ibiribwa byo kurya mu ngo zabo.

Gutera ibiti ni igikorwa k'ingirakamaro cyane kuko bifata ubutaka imvura yagwa ntibashe kubujyana ku buryo bworoshye bityo bikarwanya isuri, ni yo mpamvu abaturage bashishikarizwa gutera ibiti mu mirima yabo.

Ubuhinzi bwo gutubura imbuto bukomeje gutera imbere mu bice by'icyaro, aho usanga abaturage bibumbiye mu mashyirahamwe bakoresheje amashashi yabugenewe n'ifumbire babasha guhombeka imbuto zitandukanye, zirimo amatunda, ibinyomoro, n'izindi ubundi bakazazigurisha bakiteza imbere.

Abahinzi basabwa gutera imbuto ku kumurongo kandi zitagaranye, harimo intera ya santimetero byibuze mirongo itanu kugirango imbuto zibashe gukura zitagaranye kuko bifasha mu gutanga umusaruro mwiza.

Mu karere ka nyagatare hari abaturage boroye inka zirenga ijana, aho bifashisha inzuri zitandukanye, ku buryo izi nka zibasha kurisha kandi zose ziga, bakoresha n'abakozi batandukanye bava mu bice by'intara zigize u Rwanda kandi bakabahemba, ibingibi bigatanga n'akazi ku baturarwanda.

Abahinzi bahinga imbuto zitandukanye bagamije kuzagira umusaruro mu gihe kiri imbere kandi bagasagurira n'amasoko bityo bakiteza imbere kandi bagatunga n'imiryango yabo.

Mu Karere ka Nyagatare, uhasanga inzuri nyinshi cyane zororerwamo inka, aho usanga umuturage afite inka zirenga ijana, ibi ntagushidikanya bitanga umusaruro mu Gihugu cyose cy'u Rwanda, kuko amata bakama muri izi nka agemurwa ahantu hose mu bice bitandukanye.

Hari abahinzi bahinga imyaka igomba gushingirirwa kugira ngo yere, bityo bakifashisha kujya gutema ibiti bitandukanye hirya no hino mu bihuru, bakaza bakabishingirira, ibyo bihingwa twavugamo nk'ibishyimbo bya mushingiriro cyangwa amashaza.

Abahinzi bahinga ibihingwa bitandukanye birimo: imyumbati, ibishyimbo, ikawa n'ibindi, icyo bihuriho byose ni uko bitunga uwabikoze kandi akabasha gusagurira n'amasoko, akagurisha akabona amafaranga.

Inka nyinshi zigomba koroherwa mu rwuri kugira ngo hirindwe amakimbirane hagati y'abaturage, harimo nko konesherezanya imyaka kandi inka zororewe mu rwuri zirisha neza kandi zigatanga umukamo mwiza.

Abahinzi bajya bahabwa amahugurwa n'abajyanama b'ubuhinzi batubura ku bijyanye n'ukuntu bakongera umusaruro bakoresheje ifumbire y'imborera y'imvaruganda kandi bagatera ku mirongo bagasigamo n'intera hagati y'ibimera.

Gutera igiti cya avoka, nta gushidikanya ni ukwizigamira kubera ko iyo kimaze gukura, kibasha kweraho avoka izi ngizi abantu barisha ibiryo, maze umuturage wagiteye akabasha kuzigurisha yiteza imbere. Ikindi igiti cya avoka cy'inganzamarumbo gitanga umuyaga abaturage bahumeka kandi gifata ubutaka ntibutwarwe n'isuri.

Utubande dusigaye duhingwamo imyaka itandukanye kubera ko ari two tubasha kubamo amazi kandi imyaka ihatewe ntiyume, aho abaturage usanga bahinga igihingwa cy'umuceri cyangwa ibigori bakabigemura ku nganda zabugenewe kugira ngo zibitunganye nabo babone amafaranga.

Abaturage bahinga ibihingwa bitandukanye birimo inyanya, ibitunguru, imboga rwatsi, imiteja ikomoka ku bishyimbo, aho babicuruza mu masoko atandukanye kugira ngo babashe kubona amafaranga kandi n'abaturage bandi bakabihaha kugira ngo babashe kubona ibyo barya mu ngo zabo.

Abaturage bashobora guhinga ibigori bafite intego yo kubijyana mu rugo kugira ngo bihaze umuryango wabo cyangwa se bakabihinga bagamije gusagurira amasoko kugira ngo babibagurishe ubundi bijye gutunganywa mu nganda zibikoramo ifu y'ibigori izwi nk'akawunga.

Imyumbati ni igihingwa ngandurarugo. Abaturage benshi bakunda kuyitera yamara abandi bakayinika bakayivanamo ubugari cyangwa se bakayirya itinitse kandi bakibuka no gusagurira amasoko kugira ngo babone amafaranga.

Umwembe ni igihingwa gikura ubundi kikera imbuto zigurishwa mu masoko cyangwa abantu bakazirya kuko zikungahaye cyane ku ntungamubiri, abana batoya ni bo bakagombye kurya imyembe kugira ngo bakure neza kandi bagire ubuzima bwiza.

Abaturage bahinga ibihingwa bitandukanye birimo urutoki kuko rubasha kweraho imineke bakayigurisha bakabona amafaranga, ikindi urutoki ni rwo rukorwamo imitobe kuko usanga abantu benshi cyane bakunda kuyinywa kandi imitumba ikomoka ku rutoki ni ubwatsi bw'inka bityo urutoki rufite akamaro gakomeye.

Ibijumba ni ibiribwa bikungahaye mu kongera imbaraga mu mubiri, bikaba bihingwa hirya no hino mu bice by'ibyaro, aho abaturage babyifashisha babirya mu ngo kandi bagasagurira n'amasoko kugira ngo babashe kubona amafaranga, ubundi bagire ubuzima bwiza.

Abaturage benshi mu gihugu cya nyagatare bakunda guhinga umuceri, kuko iyo weze bawugemura ku nganda ziwutunganya bakabona amafaranga, ariko bashaka kubona n'uwo basagura wo kujyana mu rugo, ubundi nabo bakazajya babona uwo barya.

Hari abantu bakunze gutema amashyamba, aho usanga hirya no hino bari kuyibasira abayatwikamo amakara nyamara ibi ngibi sibyo kuko amashyamba adufitiye akamaro gakomeye cyane karimo gufata ubutaka isuri ntibashe kubutwara kandi amashyamba atanga umwuka mwiza abantu bahumeka.

Amashyamba agenda agabanuka uko bwije n'uko bukeye kuko abantu bayibasira bakayatema bayatwikamo amakara cyangwa bajya kuyubakisha ariko bakagombye kujya batemba igiti kimwe batera bibiri kuko amashyamba adufitiye akamaro gakomeye cyane karimo gukurura imvura ituma tweza imyaka ndetse no gufata ubutaka kugira ngo budatwarwa n'isuri.

Abaturage bagiye kuzamuraho amashyamba bayatema bayatwika bashaka amakara ndetse banayubakisha amazu, ariko ibi si byo kuko umuntu yagakwiriye gutema igiti agatera ikindi, kuko ibiti bifata ubutaka kandi nibyo biduha imvura, tubibuze rero n'ubuzima bwahita bujya mu kaga.

Ku gasozi mu mashyamba dusangayo ibiti byakuze by'inganzamarumbo, ariko nanone hakunze kumera ibyatsi byiza byashishe, aho abaturage bahurayo amatungo arimo nk'ihene akajya kurishayo kugira ngo abashe guhaga.

Amashyamba afite akamaro gakomeye cyane mu buzima bw'abantu kubereka kora imvura ikagwa bakabona uko bahinga imyakaka kandi amashyamba imizi yayo ifata ubutaka ntibutwarwe n'isuri ikindi amashyamba n'intaho y'inyamaswa z'i gasozi zirimo inkwavu, intare, ingwe,... amashyamba rero abaturage bagakwiye kuyabungabunga kuko ninayo bavanaho inkwi zo gucana kugirango ngo babashe guteka amafunguro.

Hari abaturage bibasira amashyamba bakayatema bagamije gutwikamo amakara cyangwa kuyubakisha birengagije yuko adufasha mu bintu bitandukanye, birimo gufata ubutaka kugira ngo budatwarwa n'isuri ndetse no gukurura imvura, tugomba gutera amashyamba tukayabungabunga kuko ari intaho z'inyamaswa ziba i gasozi kandi akatugirira n'akamaro gakomeye cyane mu buzima.

Amashyamba afite akamaro gakomeye cyane ku baturage kuko akurura imvura kandi amashyamba afata ubutaka ntibubashe gutwarwa n'isuri. Amashyamba ni intaho y'inyamaswa z'igasozi zirimo: inkwavu, ibisamagwe n'ingwe. Amashyamba kandi niyo twifashisha ducana kuko akurwamo amakara n'inkwi zo gutekesha.

Amashyamba afite akamaro gakomeye cyane ku buzima bw'abantu karimo gukurura imvura ikagwa abaturage bakabona uko bahinga imyaka yabo, amashyamba kandi imizi yayo ifata ubutaka bityo isuri ntibashe kubutwara ku buryo bworoshye, amashyamba ni intaho y'inyamaswa z'agasozi dusanga mu byanya byahariwe inyamaswa.

Ubuhinzi bw'amashuri butanga umusaruro kandi bukanafasha abaturage mu kubona imboga barya dore y'uko amashu akungahaye mu kurinda indwara bityo abaturage bayagura hirya no hino mu isoko kandi ku giciro kidahenze. Abaturage rero bagakwiriye guhinga amashu kandi bakayavomera kugira ngo abashe kujyanwa ku isoko.

Ubuhinzi bw'inyanya busabwa kwifashisha ibikoresho bya kijyambere, birimo kuzana imipira igenda yifashishwa mu kuvomera ndetse no kubaka isakaro kugira inyanya zitabashwa kugerwaho n'imvura nyinshi kandi zibashe no kubona izuba, kuko ibimera bibasha gukura byifashishije izuba.

Abahinzi ntibagomba gutera imyaka cyangwa imbuto zabo mu bucucike, ahubwo bagomba gusigamo intera hagati y'urubuto n'urundi, kandi bagatera ku mirongo kugira ngo turusheho gukoresha ubutaka neza, kandi tugire umusaruro mwinshi.

Guhinga urusenda bitanga amafaranga cyane kubera ko rugemurwa mu bihugu by'amahanga kandi urusenda ruragurwa cyane kuko n'abantu benshi bakunda kururya mu mafunguro ya buri munsi, Abaturage rero bashishikarizwa kuruhinga cyane kugira ngo bajye babona amafaranga.

Abaturarwanda bagomba guhinga kandi bagakoresha ibiribwa bitandukanye birimo: amatunda, ibinyomoro, inyanya, ipavuro, urusenda, imiteja, imyungu, ibihaza, indimu, kugira ngo babirye mu buzima bwabo kuko umubiri urabikenera cyane.

Hirya no hino mu masoko bacuruza ibicuruzwa bitandukanye birimo urusenda, inyanya, sereri, amapavuro, amakaroti n'izindi aho abaturage baza kubigura bakajya kubiteka kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu bagomba gutera imbuto ku murongo kandi bagasigamo intera hagati y'igihingwa n'ikindi, bakibuka gukoresha ifumbire mvaruganda n'imborera kandi bagakoresha n'imipira izana amazi mu gihe cyo kuvomera kugira ngo barusheho kugira umusaruro mwinshi.

Hari abaturage bahinga ibishyimbo kugira ngo bazasarure imiteja, bayigurishije ku isoko, babone amafaranga nabo babashe kwiteza imbere, ikindi usanga bakurikirana imyaka yabo, bakanayibagarira kugeza yeze.

Abahinzi bahinga imbuto zitandukanye, zirimo n'amashu, usanga barayateye bayatandukanyije, kandi basizemo intera hagati y'urushu n'urundi, bityo bakeza amashu afite ireme kandi apima ibiro byinshi, ubona ko ashobora kujya ku isoko akagurwa n'abantu benshi cyane.

Kugira ngo abaturage bahinge imyaka kandi babashe kubona umusaruro mwinshi, basabwa gukurikirana no kuvomera imyaka yabo, bifashishije imipira igezweho ikurura amazi ya kijyambere, aho iyavana mu kabande, ikayageza umusozi maze bakabasha kuvomera imyaka yabo.

Ubuhinzi bw'ibigori biteye ahantu imusozi, harimo imipira ijyana amazi kugira ngo ijye yifashishwa mu gikorwa cyo kuvomera, kugirango ibigori bizabashe gukora neza, byere bitangage umusaruro, ba nyirabyo bazabashe kugurisha ku isoko ndetse bajyane n'ibyoku kurya mu rugo.

Kwifashisha imborera n'imvaruganda, ntibihagije gusa kuko tugomba no gukoresha imashini z'ikoranabuhanga zizamura amazi, ziyavana mu mibande zikayazana imusozi, bityo tukabasha kuvomera imyaka yacu.

Abahinzi bashishikarizwa gukora ubuhinzi bwa kijyambere bifashisha n'imashini z'ikoranabuhanga kugira ngo babashe kuvomera imyaka yabo kuko ziba zifite moteri ikurura amazi ikayavana mu kabande ikayageza i musozi bifashishije imipira yabugenewe inyuramo ayo mazi ubundi bakabasha kuvomera imyaka yabo.

Gukoresha uburyo bwo kuvomera imyaka, byatanze umusaruro ukomeye cyane, kubera ko ubu ngubu bitakiri ngombwa yuko abahinzi bahinga mu kabande gusa, ahubwo n'imusozi basigaye bahahinga, ariko bakifashisha imashini z'ikoranabuhanga, zibasha kuzana amazi ziyavanye mu kabande, ubundi bakavomera imyaka imusozi, bakabasha kubona umusaruro.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugezweho, bukoresha imashini n'imipira yabugenewe, izamura amazi iyavanye mu butaka hasi mu kuzimu, ikayazamura hejuru kugira ngo avomerere imyaka, izakure imeze neza ishishagiye.

Abakora ubuhinzi bw'imyaka n'imbuto zitandukanye basabwa gukoresha uburyo bwo kuvomerera, aho bagura imashini z'ikoranabuhanga bakazishyira mu migezi izana amazi menshi ubundi bagacomekamo imipira ijyana amazi i musozi bakabasha kuvomerera imbuto zabo.

Ibimera bikenera amazi kugira ngo bibashe gukura bitangage umusaruro. Hari bamwe mu baturage bahinga ibimera mu bice by'imisozi, ahatabasha kugera amazi ku buryo bworoshye, bikaba ngombwa yuko bifashisha imipira izana amazi iyakura mu kabande kugira ngo babashe kuvomera imyaka yabo.

Ku misozi ihanamye hagomba guterwa ibiti kugira ngo twirinde isuri kuko iyo imvura iguye igasanga ku musozi nta biti bihari, ikukumbura ubutaka bwose ikabushora ikabujyana mu mibande no mu migezi, ugasanga na yo yasibamye, bityo bikaduteza inkangu n'ibindi bibazo. Abaturage rero bagomba gutera ibiti ahantu bitari.

Umusozi udateyeho ibiti ugaragara nabi cyane kandi ushobora gukunkumuka cyangwa ugasuka bitewe n'imvura nyinshi ishobora kugwa maze igatwara ubutaka kubera ko nta biti bihateye ngo bifate ubutaka, abantu bashishikarizwa gutera ibiti kuko imizi y'ibiti ifata ubutaka bityo ntihibasirwe n'inkangu cyangwa imyuzure mu gihe imvura iguye ari nyinshi.

Igihugu cy'u Rwanda gifite imisozi myinshi myiza, ibiyaga n'amazi, aho no kubireba ubwabyo bishimisha abantu, niyo mpamvu hari ba mukerarugendo baturuka mu bihugu by'amahanga, bakaza kwitegereza ubu bwiza butatse igihugu cy'u Rwanda.

Ibiti bidufitiye akamaro gakomeye harimo nko gukurura imvura no gufata ubutaka kugira ngo isuri itabujyana. Uduce duherereyemo ibiti usanga tumeze neza kandi nta mvura ijya ipfa kuhisukira ngo irahajyana ariko ibice bidafite ibiti usanga imyuzure, inkangu byarateye uwu musozi kubera ko nta biti bifata ubutaka bihari.

Ubutaka budateyeho ibiti usanga bugaragara nabi kandi iyo imvura iguye ari nyinshi irabukonkobokana ikabutwara abantu rero cyane cyane abahinzi bagomba kubuteraho ibiti kugira ngo udatwarwa n'isuri cyangwa umwuzure.

Abantu bagomba gutera ibiti ku misozi kugira ngo habashe kugaragara neza kandi ibiti bifata ubutaka ntibujyanwe n'isuri uko bwiboneye, ikindi bikurura imvura bikanatanga umwuka mwiza duhumeka. Ni ingenzi cyane gutera ibiti.

Abayobozi batandukanye b'igihugu bakunze kwitabira igikorwa cyo gutera ibiti ku gasozi ahantu bitari kuko byagaragaye ko bifite akamaro gakomeye karimo gutanga umwuka mwiza abantu bahumeka ndetse no kurinda isuri kugira ngo imvura itagwa igakukumba ubutaka.

Hirya no hino mu butaka bw'abaturage hateyeyo imbuto n'ibihingwa bitandukanye birimo: nk'urutoki, imyumbati, ibiti bya avoka, imiyenzi cyangwa se n'amasaka. Urutoki ni rwo rweraho imineke abaturage barya kandi rukavamo n'umutobe.

Umusozi udateyeho ishyamba cyangwa ibiti usanga ugaragara nabi kandi imvura iguye itwara ubutaka bw'aho hagasigara inkangu, ni yo mpamvu abahinzi bashishikarizwa cyane gutera ibiti kugira ngo babungabunge ubutaka kuko ibiti birinda isuri bikaturinda n'inkangu iba yaturutse ku isuri itwara ubutaka.

Abaturage batandukanye bakora ubworozi bw'amatungo magufiya, arimo n'inkoko, aho bazubakira ibiraro, ubundi bakazibumbira ahantu hamwe bakajya bazigaburira sondora, zikabasha gutera amagi menshi bakayagurisha bakabona umusaruro, bityo bakiteza imbere.

Abantu bagomba kororera inka mu kiraro kuko iyo batabikoze gutyo bitera ingaruka zitandukanye, iyo inka zigiye ku gasozi zigenda zinnya mu nzira maze ya mase agashoka akajya mu kabande mu gihe imvura iguye akivanga n'amazi dukoresha, ikindi inka zishobora no kona imyaka y'abaturage. Umuntu wese ushaka korora inka agomba kuyubakira ikiraro.

Ikiraro cya kijyambere kigomba kororerwamo inka, kigomba kuba gifite imyenge isohora amaganga ndetse n'amase y'inka, kandi kikagira majwari aho bashyira ubwatsi, inka ikabasha kuburya budakoze hasi kuko hari igihe bujya hasi ikabubyinagira bukajyamo imyanda.

Abakora ubworozi bw'inkoko basabwa kuzigaburira neza bifashishije sondora kandi bakaziha n'amazi yo kunywa ariko nanone basabwa kugura imiti yabugenewe, mu gihe inkoko zarwaye indwara zirimo n'umusinziro bagahita bazivura.

Abakora umwuga wo korora amatungo yo mu rugo, bifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo bahirire inka ubwatsi cyangwa andi matungo. Twavuga nko gukoresha igikoresho cyitwa ingorofani, kuko kibasha gufasha abaturage mu kugishyiraho ubwatsi kandi kikaba cyakora n'indi mirimo.

Korora inka bifite akamaro gakomeye cyane kuko itanga amata abana bakabona ayo banywa ariko na ba nyirinka bakabona umukamo bagemura ku masoko no mu nganda ubundi na bo bakabasha kwinjiza amafaranga atunga imiryango yabo.

Abaturage bakora umurimo wo korora inka n'amatungo yo mu rugo, basabwa kuyitaho cyane bayaha ubwatsi bwiza ndetse bakibuka no kuyaha amazi yo kunywa kugira ngo babashe kubona umukamo uhagije bityo biteza imbere ubundi bagire ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi harimo n'ihene, butanga amafaranga menshi cyane ku baturage, kubera ko buri mwaka ihene zibyara cyane kandi zikabasha kubagwa, hirya no hino abaturage bakagura inyama, bityo abaturage bagakwiye korora ihene, kugira ngo babone umusaruro mu gihe gito.

Abaturage benshi bakora ubworozi bw'amatungo magufi arimo n'ihene, aho usanga bazorora ku buso bunini cyane kandi nazo zikabaha umusaruro kuko ihene zikunda kubyara byibuze kabiri mu mwaka, bityo bakazigurisha hagamijwe gutanga inyama ku masoko cyangwa se hagamijwe kugira ngo boroze n'abandi baturage.

Inka z'inyambo ni inka z'umubiri munini kandi zifite amahembe manini yigondoye zibasha kororwa kandi zigatanga umukamo mwinshi, inyambo uzisanga akenshi mu mbuga z'inyamaswa kandi ukazisanga mu bigo bibungabunga bikanasigasira umuco nyarwanda harimo nk'ikigo cy'Inyanza mu Rukari.

Hari abaturage borora inkoko ku buryo usanga zibaha amafaranga atari makeya kuko bagurisha amagi mu gihe zateye, ikindi nabo bazigaburira ibiryo bitandukanye, birimo sondora kandi bakazigurira n'imiti ivura indwara zirimo n'umusinziro, wibasira inkoko.

Umuntu ashobora gukora ubworozi bw'inkoko zirenga magana abiri, akazubakira ibiraro kandi akajya azigurira n'ibiryo byo kurya bya sondora, akifashisha n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, yaba ibyo ziriramo n'ibyo zinyweramo amazi kugira ngo zimuhe umusaruro.

Ubworozi bw'inka butanga amafaranga atari makeya, binyuze mu mokamo inka zitanga maze aborozi bazo bakawugurisha bityo bakinjiza amafaranga, ikindi bashobora kunywa ayo mata n'abo mu rugo, cyangwa bakagurisha inka zabo, cyangwa bakazibagamo inyama bakazigurisha ku baturage bakiteza imbere.

Ubworozi bw'inkoko zikiri ntoya cyane z'imishwi busaba umworozi wazo ko azicanira imbabura kugira ngo zibashe kota ubushyuhe bityo ntizibe zakicwa n'umuyaga, cyangwa ngo zicwe n'ubukonje.

Ubworozi bw'inkoko buri mu butanga amafaranga kandi menshi ndetse bukanakiza abantu mu gihe gito ariko ibi bishobokera umuntu wabikoranye ubwitonzi kandi akifashisha n'ibikoresho bigezweho bya kijyambere birimo ibishyirwamo amazi y'inkoko yo kunywa, hagashyirwamo n'ibiryo zirya harimo nka sondola n'ibindi.

Ubworozi bw'inkoko buri mu gutanga amafaranga kandi atari make, ariko ibi na none bisaba umworozi wazo gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga yaba mu kugabura ndetse no mu kuzikorera isuku kugira ngo zitibasirwa n'indwara zirimo n'umusinziro zikaba zapfa, ikindi akibuka kuzigurira imiti hirya no hino mu mazu acuruza imiti y'inyamaswa zo mu rugo.

Ubworozi bw'ihene busaba abaturage kuba bafite igisambu baziragiramo kugira ngo zibashe kurisha, hirya no hino mu baturage usanga bazahuye ku masaha y'umugoroba kugira ngo zigende zirisha bya byatsi byameze ku nzira, ubundi zibashe gukura vuba na bo babone umusaruro.

Abakora ubworozi bw'amatungo harimo n'ihene, basabwa kuzahura mu masaha y'umugoroba, bityo zikabasha kurisha kuko usanga mu ngo batuyemo hataboneka ibyatsi, bikaba ngombwa yuko bazijyana mu bisambu kugira ngo zirishe, ubundi zitahe zahaze.

Hari abaturage bakora ubworozi bw'amatungo magufi yo mu rugo harimo nk'ihene aho bayaragira ku gasozi kugira ngo abashe kurisha bityo azabagirire akamaro mu gihe kiri imbere binyuze mu kuyagurisha cyangwa kuyabaga bakagurisha inyama.

Mu gihe umuturage yororeye inka mu rugo agomba kuyubakira ikiraro cyiza kigezweho kitabasha kuninda cyangwa ngo kirekemo amazi, ikindi agomba kubaka manjwari inka zigomba kuriramo kugira ngo zitarya ibyatsi byagiye hasi ikajyamo imyanda.

Hari abaturage benshi batunzwe n'umwuga wo korora amatungo yo mu rugo. Harimo nk'ingurube, aho usanga bazubakira ibiraro, ubundi bakajya bazigaburira ibyatsi kugira ngo zibashe kororoka mu gihe gito, ubundi bazigurishe babone inyungu.

Hari abaturage borora amatungo magufiya arimo ingurube, aho bayasasira ishwagara mu kiraro bityo akabasha kubaho atari mu bunyererere cyangwa ubukonje agakora neza maze akababyarira umusaruro bakayajyana ku masoko bakabona amafaranga.

Ubworozi bw'inka burarushya cyane kuko busaba umworozi kuyitaho kandi akayibungabunga, harimo nko kwitabira ibikorwa byo kuyikingiza kandi akajya ayigurira n'imiti kugira ngo ayivure kwandura indwara zitandukanye ndetse akayigurira n'indi miti yica ibiheri n'ibirondwe bikunze kwibasira uruhu rw'inka.

Ikigo cya tobura cyamenyekanye hano mu Igihugu cy'u Rwanda, kubera ko cyita ku bijyanye no gubura imbuto zikoreshwa mu buhinzi, harimo nk'inyanya, harimo intoryo n'ibindi bihingwa, ubundi abaturage bakabitera bakabasha kubona umusaruro.

Hari abaturage batandukanye bakora ubutubuzi bwo kongera imbuto zitandukanye, zirimo: amatunda, ibinyomoro, imyumbati n'izindi, aho bafata utubuto dutoya tuba twavuye muri izi mbuto bakaduhombeka ubundi bakadutera tukabasha kuvamo izindi mbuto nyinshi.

Kugira ngo haboneke ingemwe zo gutera zikomoka ku mbuto runaka harimo nk'ipapayi, inanasi cyangwa se amacunga, abahinzi bafata za ngemwe zeze bagafata imbuto zazo barangiza bakazihombeka ubundi zikavamo izindi ngemwe bagatera.

Kugira ngo imbuto zikure ni uko ziba zabanje guterwa mu butaka, umuntu afata umwayi akawunyanyagiza mu butaka ariko buhinze neza kandi burimo ifumbire, ubundi igihe kikazagera wamwayi ugashibukaho imbuto zikagenda zikura kugeza ubwo umuntu azitandukanyije rumwe akarutera ukwarwo urubuto ku rundi ubundi hakavamo umusaruro.

Amatungo nayo akenera kubyara nk'abantu. Niyo mpamvu hari abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo yo mu rugo, bityo bakifashishwa mu kuvura amatungo indwara zitandukanye kandi bakayafasha no mu gikorwa cyo kubyara kugira ngo bigende neza.

Hari abantu bize ibijyanye no gukurikirana ubuzima bw'amatungo yo mu rugo, aho usanga bifashisha imiti itandukanye kugira ngo bavure amatungo maze abaturage bose bashishikarizwa kubagana no kugira ngo babagire inama, amatungo yabo ntabashe kuba yakandura indwara.

Mbere yuko babaga amatungo kugira ngo hagurishwe inyama, bagomba kubanza bagahamagara umuvuzi wabyigiye kugira ngo aze aripime arebe niba nta ndwara iryo tungo ryari rifite, yarangiza akabaha uburenganzira bakabona kuribaga, bakagurisha n'inyama zaryo.

Amatungo ashobora kurwara indwara zitandukanye cyangwa se abayaragira bakayakomeretsa ariko ibyo si ikibazo kuko hari abantu bize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo yo mu rugo, ushobora kubahamagara, bakaza itungo ryawe bakarivura nk'igikomere cyangwa izindi ndwara, ukongera ukaryorora nta kibazo.

Abaturage boroye imbwa basabwa kuzijyana ku mazu ashinzwe kuzikingira, kugira ngo bazitere urukingo rurimo kugabanya ubumara zitazarya abantu zikaba zabatera ingaruka zirimo no guhita bapfa, kuko imbwa zigira ubumara bwinshi cyane.

Abavuzi b'amatungo usanga bafite akazi kenshi kandi gakomeye, kubera ko bashobora gutera intanga inka ndetse bakanavura n'imbwa. Imbwa bashobora kuzitera inshinge zituma zirumana hanyuma uwo zirumye ntizimutera ubusabwe.

Abaturage benshi boroye imbwa, basabwa kuzijyana kuziteza inkingo zigabanya ubumara, kugira ngo zitazarya abaturanyi bikabaviramo ingaruka zirimo no gusara kubera ko imbwa zigira ubumara bwinshi cyane, ariko iyo bazijyanye kuzikingiza ziterwa inkingo n'abantu babyigiye, ubundi ntizigire ubumara bukomeye.

Hari abantu bize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, aho bifashishwa n'aborozi bakajya kubasuzumira amatungo yabo kandi bakayavura kugira ngo abashe gukira indwara barwaye kandi abagirire umusaruro maze abo borozi biteze imbere.

Hari abantu bize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo yo mu rugo, aho bifashishwa n'aborozi batandukanye baba babatumiye kugira ngo bakurikirane uko ubuzima bw'amatungo yabo buhagaze bityo babashe kugira iterambere riturutse ku kuba amatungo yabo abaha umusaruro kandi ku gihe.

Hari ibyanya byahariwe inyamaswa aho ubisangamo amoko yazo atandukanye harimo intare, harimo ingwe, ibisamagwe, inkwavu, inzoka, udusumbashyamba, impyisi n'ingwe.

Hari imbuga z'inyamaswa zikunda gusurwa na ba mukerarugendo baba bavuye mu bihugu by'amahanga, aho dusangamo nk'inyamaswa y'agasumbashyamba kabari karekare, izina bakise kubera ko kabasha guhagarara kakarisha hejuru kushyamba mu bushorishori.

Inyamaswa zirimo imparage ndetse n'isha, uzisanga mu cyanya cyahariwe inyamaswa cy'Akagera, kuko ari zimwe mu zikurura ba mukerarugendo baza gusura igihugu cy'u Rwanda kandi bakazana amadovize bityo igihugu cyacu kigatera imbere.

Inzovu ni inyamaswa nini cyane y'inyamabere aho ishobora kuba ipima ibiro biruta iby'inka eshanu uziteranyije. Inzovu irangwa n'uko ifite amatwi manini, ikagira n'amahembe abiri, ikagira n'umutonzi ari na wo ikoresha mu kurya.

Iyo ugeze mu cyanya cyahariwe inyamaswa cy'Akagera, ubona yuko na zo zikenera kuruhuka nk'abantu babikenera, aho zizamuka mu mababi y'ibiti hejuru no mu mashami zikagenda zikiryamirayo kugira ngo ziruhuke.

Imbata ziba zimeze neza nk'inkoko ariko zikagira umwihariko w'uko zigendera mu mazi kandi ntizabasha kuba ahantu hataba amazi, ubwo aborozi bazo na bo iyo bashaka kurya inyama, hari igihe bazibaga cyangwa bakazigurisha bakabona amafaranga.

Ubworozi bw'imbata, ni bumwe mu bwinjiriza abantu amafaranga kandi atari makeya ariko bisaba umuntu kubaka ikidendezi kuko imbata ziba mu mazi bityo zikajya zibasha kwizimya izuba kandi zikororoka kuko ntizaba ahantu hataba amazi.

Mu byanya byahariwe inyamaswa, dusangayo amoko atandukanye harimo: imparage, impala, udusumbashyamba, impyisi n'izindi nyinshi. Abantu rero baba bakwiye kubungabunga inyamaswa z'igasozi kugira ngo izo bafashe bazishyire mu byanya byahawe inyamaswa, ubundi ba mukerarugendo bajye baza kubisura, baduhe amadovize.

Abaturage bajya borora inyamaswa zitandukanye harimo n'imbata ariko bikabasaba yuko babasha kubona amazi menshi kuko inyamaswa y'imbata itaba ahantu hataba amazi.

Inyamaswa y'ingwe, ni imwe mu zirya inyama kandi ikaba i gasozi, kuko idakunze kubana n'abantu, keretse iyo uyifashe ikiri akana ukayitoza kubana n'abantu, izi nyamaswa zizwiho kugira amakare cyane kandi ntizikunda kwiyenza.

Mu byanya by'inyamaswa twavuga nk'icyanya cy'Akagera dusangamo inyamaswa zitandukanye zirimo ibisamagwe, ingwe, intare, udusumbashyamba, inkwavu, inzoka n'izindi nyamaswa aho ba mukerarugendo baza kuzisura bagatanga amafaranga akubaka igihugu cyacu akagiteza imbere.